Aha haragaragazwa ihuriro cyangwa itsinda ry'abantu basa nk'abari mu nama cyangwa bari mu mahugurwa, bicaye ku ntebe zitukura, bose basa nk'abakurikiye iyi nama. Iyi nzu mberabyombi bicayemo, mu mbavu zaho hari amarido ari mu ibara rya giri ndetse hari n'undi mugabo uri imbere yabo wambaye umupira w'umukara, bigaragara ko ayoboye iyi nama.

Iri ni ihuriro cyangwa iteraniro ry'abantu biganjemo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore ndetse n'abandi bafite ibara ry'uruhu rwera bazwi ku izina ry'abazungu, bakaba bicaye mu nzu mberabyombi ikikijwe n'ibirahuri, ndetse kuri ibi birahuri bikaba bifashwe n'inkingi cyangwa inkuta zikozwe mu byuma bifite ibara ry'umukara, muri iyi nzu mberabyombi harimo n'indabo, aho iri teraniro riri kubera.

Iri ni ihuriro ry'abagabo n'abagore bigaragara nk'aho bari mu nama, inzu mberabyombi bicayemo igizwe n'amabara y'umweru, aha hari abafite uducupa tw'amazi imbere yabo ku meza, ndetse na za mudasobwa imbere yabo, ndetse umurongo ubanza uriho udukoresho tw'indangururamajwi.

Aha harerekanwa itsinda rigizwe n'abagabo n'abagore nkaho basa nk'abantu bari guhemba abantu bitwaye neza mu marushanwa, ariko y'ibigendanye n'itangazamakuru bose bahurije hamwe ku gihembo barimo baratanga kuri uyu muntu witwaye neza.

Iri ni itsinda ry'abagabo n'abagore rihagaze ahantu bisa nkaho habereye igikorwa runaka cya leta, bambaye impuzankano z'imipira bamwe bambaye impuzankano z'cyatsi abandi bambaye impuzankano z'ubururu bwijimye ndetse n'ingofero ku mitwe. Barahagaze basa nkaho bahanze amaso cyangwa bakurikiranye umuhango uri kubera aho bari.

Aha ni ahabugenewe hateraniye abagore n'abagabo bigaragara ko ari abaturage ariko muri bo hakaba harimo abayobozi ndetse umwe muri bo aka akora mu nzego z'umutekano. Imbere yabo hari umugore wambaye imyambaro ya orange ufite indangururamajwi bigaragara ko ari gutanga ikiganiro kuri aba bantu.

Aha harerekanwa itsinda ry'abantu basa nk'abari mu mahugurwa cyangwa inama. Hari umugore uri imbere yabo wambaye imyenda y'imikara hejuru, ufite indangururamajwi mu ntoki usa nk'uyoboye ikiganiro. Afite insinga ku maso. Inyuma ye harerekana ibigendanye n'aya mahugurwa, ibigendanye n'imikino.

Aha hari itsinda rinini ry'abantu, bigaragara ko bitabiriye inama cyangwa amahugurwa kandi bicaye ku meza y'imikara n'intebe z'imikara, imbere yabo hari amacupa y'amazi y'inyange, aha muri iyi nzu mbera byombi bicayemo biragaragara ko bari gukurikirana inama.

Aha harerekanwa icyumba kiberamo inama nk'uko bigaragazwa n'indangururamajwi ziteretse kuri aya meza ndetse n'icupa ry'amazi, hari abantu babiri umukobwa n'umusore. Umukobwa afite imisatsi y'imikara asa n'uwunamye uri kureba hasi kandi yambaye ikoti riri mu ibara rya orange.

Hagaragazwa igisa n'itsinda ry'abantu bari mu nama cyangwa bari mu mahugurwa, wabyita uko ubishaka aba biganjemo abagabo bambaye, amakoti n'abandi bambaye amashati, basa n'aho bitaye ku nama n'umuhango uri kubera ahobari, imbere yaho hari amacupa y'amazi ndetse na za mudasobwa.

Aha harerekanwa icyumba cy'inama bigaragara ko hari kuberamo inama cyangwa amahugurwa. Aha harerekanwa umugabo n'umugore, umugabo wambaye ikoti ririmo imirongo, ndetse n'umugore wambaye ikoti ririmo ibara rya oranje. Aba bicaye ku meza ari mu cyumba cy'inama kandi imbere yabo biragaragara ko hari amacupa y'amazi.

Iri ni ihuriro ry'abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo ndetse bisa nk'aho bari mu nama cyangwa amahugurwa, aha bari hasakajwe ibara ry'umweru ndetse n'amatara abamurikira, bicaye ku ntebe zitukura ndetse n'aho bakandagiye hari ibara ry'ubururu.

Aha harerekanwa umugore cyangwa se umukobwa ufite indangururamajwi, usa nk'uri gutanga igitekerezo cyangwa inyunganizi mu nama, irimo irabera muri iyi nzu mberabyombi arimo, yambaye umupira w'amaboko uciye kandi ugizwe n'ibara ry'ubururu bwijimye, kuri uwo mupira hejuru hariho amarinete yabugenewe arinda izuba.

Iri ni huriro ry'abantu batanu bane muri bo baricaye, rigizwe n'abagabo batatu n'abagore babiri ndetse umugore umwe afashe indangururamajwi arahagaze biragaragara ko ayoboye iyi nama, igamije guteza imbere umurimo. Aha bicaye aya meza agizwe n'ibara ry'umuhondo ndetse imbere yabo hari amacupa y'amazi. Inyuma yabo hari umutako uri mu bwoko bw'umutako wa kinyarwanda, kandi uri mu ibara ry'umuhondo.

Aha haragaragazwa icyumba cy'inama gihuriwemo n'abagore n'abagabo bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo hari umugabo bigaragara ko ayoboye iyi nama. Iki cyumba bicayemo kigizwe n'amabara y'umweru imbere kandi ku meza aba bari muri iyi nama bicayemo hari amacupa y'amazi.

Iri ni tsinda ry'abantu bane abagabo babiri n'abagore babiri abagabo babiri bambaye amakoti ari mu ibara ry'ikivuvu, abagore babiri umwe muri bo afite uruhu rwera ibizwi nk'abazungu babiri muri bo umugabo n'umugore bambaye inziga ku maso bafite amakaramu mu ntoki uko ari bane bose biragaragara ko bari mu nama imbere yabo hari amazi ndetse n'ibirahuri.

Iri ni ihuriro ry'abaturage ariko biganjemo abayobozi b'inzego z'ibanze. Hatewe amahema y'imyeru, hamanitswe idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Abo baturage baricaye bisa nk'aho bakurikiranye ibi biganiro biri kubera hano.

Iyi ni inama biragaragara ko ari inama y'abagore umwe muri bo umukobwa cyangwa umugore afashe indangururamajwi ari imbere yabo yambaye ijiri y'umukara, umupira w'umukara n'ipantaro ya giri birasa nkaho ari gutanga ikiganiro imbere yabo kandi hari itsinda ry; abantu batanu basa naho bayoboye inama babagore umwe muribo kandi birasa nkaho akora mu nzego z'umutekano nkuko bigaragazwa n'impuzangano yambaye.

Aka ni agace nyabagendwa karimo urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abagore ariko n'abagabo. Imbere bari guhabwa ikiganiro kiri gutangwa n'umugore ufite imisatsi imanutse wambaye ipantaro iri mu ibara ry'ubururu bwijimye. Biragaragara ko ari kubahugura ku bintu runaka. Hanyuma inyuma yabo hari imodoka ndende ziri mu bwoko bw'amamodoka ashinzwe gutwara abantu.

Iyi ni inzu mberabyombi ihuriwemo n'abagabo n'abagore barahagaze basa nka bari mu nama, ndetse bari kuri morale, imbere yabo hari ameza ariho ibitambara by'imihondo hateretseho n'amacupa y'amazi y'inyange, ndetse bamwe muri bo bafite na za mudasobwa imbere yabo mu rubavu rw'iyi nzu mberabyombi hariho amarido ari mu ibara ry'imihondo kandi bicaye ku ntebe zigizwe n'ibara ritukura n'umuhondo.

Aha hari ihuriro ry'abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo. Biragaragara ko bicaye mu nzu mberabyombi bisa nk'aho bari mu nama, imbere ku meza y'imbere hari abayobozi, umwe muri bo yambaye impuzankano bigaragara ko akora mu nzego z'umutekano. kuri aya meza bicayeho bafite amakaye, amakaramu, mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi.

Aha hari ihuriro rihuriwemo n'urubyiruko nk'uko bigaragazwa n'impuzankano z'imipira bambaye iri mu ibara ry'ubururu, kuri aya meza ari imbere y'aho uyoboye aya mahugurwa cyangwa iyi inama ahagaze hari amacupa y'amazi, hari n'umugore ufashe indangururamajwi bigaragara ko ayoboye aya mahugurwa wambaye inziga ku maso kandi wambaye ipantaro n'ikote.

Aha haragaragazwa abagabo babili bicaye ku ntebe z'imikara bigaragara ko bayoboye inama, aba bagabo umwe muri bo yambaye ikoti n'ishati undi yambaye ishati gusa imbere yabo hari amacupa y'amazi inyuma yabo hari inyuguti nini zanditswe mu ibara ry'umweru usigirije ndetse zanditswe ku kibaho cy'ubururu biragaragara ko ari gahunda y'ikigo gishinzwe umusoro n'amahoro.

Aha hari ihuriro ry'abagabo n'abagore bicaye bisa nk'aho bakurikiye inama barimo, bari mu nzu mberabyombi kandi iyi nzu irimo amabara y'imyeru intebe bicayeho nazo ziri mu mabara y'umweru uterurutse imbere aha hari umugabo wambaye inziga ku maso ndetse n'undi uri muri telefone.

Aha haragaragazwa icyumba cy'inama kirimo itsinda ry'abantu bane harimo abagabo batatu n'umugore umwe. Aba bagabo batatu bambaye amakoti n'amashati, ndetse n'uyu mugore nawe yambaye ikoti n'ishati. Umugore afite imisatsi y'imikara. Imbere y'iri tsinda ry'aba bantu hateretse amacupa y'amazi ndetse n'indangururamajwi. Biragaragara ko bari mu nama. Uyu mugore asa nk'uri kuvuga atanga igitekerezo mu nama.

Iri ni ihuriro ry'inama ihuriwemo n'abantu batandukanye biganjemo abagore n'abagabo, biragaragara ko bambaye imigozi yabugenewe y'icyatsi mu ijosi, aba baritegeye inama cyangwa barakurikiranye inama.

Aha harerekanwa ihuriro ry'abantu bicaye bigaragara nk'aho bakurikiye amahugurwa cyangwa inama. Aha bicaye hari ihema riri mu ibara ry'umweru ndetse riziritsweho ibindi bitambararo biri mu ibara ry'umutuku wijimye n'umuhondo wererutse, imbere yabo hari umugabo wambaye ikoti ufite indangururamajwi mu ntoki, bigaragara ko ari gutanga ikiganiro.

Iyi ni inama cyangwa ni amahugurwa harerekanwa itsinda rinini cyangwa ihuriro ry'abantu bicaye ahabugenewe hari kubera iyi nama, hateye amahema y'imyeru ndetse azungurutswe n'andi mabara ari mu idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, hari umugore uhagaze imbere yabo bigaragara ko ari kubahugura afashe indangururamajwi yambaye imyenda y'imikara ndetse afite n'ikaye mu ntoki afite n'imisatsi y'imikara yambaye n'amarinete.

Iri ni itsinda ry'abantu bigaragara ko bari mu nama bicaye mu nzu mberabyombi. Imbere yabo hari abantu babiri umugabo n'umugore bigaragara ko bayoboye iyi nama. Aba bantu bicaye ku ntebe z'imyeru ziri mu bwoko bwa purasitiki ndetse hari n'ameza imbere yabo ariho amazi yo kunywa ari mu ducupa. Aba bantu bicaye biragaragara ko bakurikiye iyi inama ndetse imbere ku gikuta hashyizwe amashusho agendanye n'iyi nama barimo.

Iyi ni sisitemu ikoreshwa hifashishijwe murandasi aha haragaragazwa ko iyi sisitemu ikoreshwa n'abashaka serivisi z'amahoro n'imisoro kandi hagaragazwa amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza aho amagambo amwe ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'andi ari mu ibara ry'imikara ariko isigirije munsi hari akamenyetso k'urukiramende karimo amagambo mato yandikishijwe ibara ry'umweru n'akaziga k'icyatsi.

Iyi ni gahunda y'ikigo cy'igihugu gishinzwe amahoro n'imisoro kizwi nka Rwanda reveni, handitse amagambo ukwezi ko gushimira abasora biri mu nyuguti zishyigije z'umuhondo kandi munsi hari n'andi magambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda n'ayandi ari mu rurimi rw'icyongereza, iburyo hari ibirango biri m'udukiramende tw'umweru bigaragara nk'abafatanyabikorwa muri iyi gahunda.

Aha hari ubutumwa buri mu rurimi rw'ikinyarwanda, biragaragara ko iyi ari sisitemu y'ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoro n'amahoro. Aya magambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda kandi yandikishijwe ibara ry'umweru usigigirije, ayandi yandikishijwe ibara ry'umweru udasigije, ayandi yandikishijwe ubururu busigirije n'ayandi yandikishijwe ubururu budasigije, ndetse n'irindi jambo rimwe ryandikishijwe ibara ry'umuhondo.

Aka ni agace nyabagendwa karimo amagorofa atandukanye, amwe maremare cyane n'ayandi magufi, aya magorofa akaba yiganjemo ari mu mabara y'umweru, aha hari urujya n'uruza rw'abanyamaguru bari kugenda mu byerekezo bitandukanye, ndetse n'abandi bicaye, aha hatewe n'ibiti bitandukanye n'indabo.

Aha harerekanwa gahunda y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, aho bigaragara ko bari gutanga integuza ko habura iminsi icumi ku bantu baba batarasora, ibi bigizwe n'ibirango by'icyo kigo ndetse n'inyuguti zandikishijwe ibara ry'umuhondo usigirije, biri mu gakirampende ndetse n'andi magambo ari mu ibara ry'umweru usigirije n'undi udasigirije.

Aha haragaragazwa urubuga cyangwa sisitemu y'Ikigo k'Igihugu gishinzwe kubungabunga amashyamba, biragaragara ko bageze muri iyi sisitemu nyirizina kandi harerekanwa ifoto igizwe n'imisozi miremire, iri mu ibara ry'umukara ujimije kandi munsi yaho hari umushinga witwa TREPA uri mu rurimi rw'Icyongereza ndetse aya magambo yose yanditse mu rurimi rw'Icyongereza mu ibara ry'umukara ujimije.

Aha harerekanwa ifoto irimo ikarita y'igihugu cy'u Rwanda iri mu amabara n'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo ibi birerekanwa ko ari nka gahunda ya leta ishinzwe abinjira n'abasohoka, munsi y'iri darapo cyangwa y'iri karita y'igihugu cy'u Rwanda hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza yandikishijwe ibara ry'umweru usigirije.

Uru ni urubuga ni urubuga rukoreshwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga amashyamba, biragaragara ko binjiye muri sisitemu y'iki kigo hakaba hari kwerekanwa serivise iki kigo gitanga. Izi nyugute z'imikara ziri kwerekanwa ziri mu ibara ry'umukara risigirije izindi nyugute ntabwo zisigirije, ndetse hejuru hari ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga amashyamba arafa eyi (RFA).

Aha haragaragazwa inzu isa nkaho ikorerwamo n'abantu ariko ifatwa nk'ibiro aho harimo intebe zizunguza z'imikara ndetse n'ameza maremare y'imyeru hejuru hari amatara kandi aha hari n'ibikuta biri mu ibara ry'umweru.

Aha hari abanyeshuri bambaye impuzankano, bigaragara ko bari muri rabaratwari ya mudasobwa. Abanyeshuri bicaye ku ntebe z'imikara ndetse imbere yabo hari ameza akozwe mu rubaho ruvanze n'icyuma cy'umukara ndetse aba banyeshuri biragaragara ko imbere yabo hari za mudasobwa bari kwiga.

Iyi ni inzu iri ku muhanda itangirwamo serivise z'irembo z'amahoro za banki ariko zigatangwa hifashishijwe murandasi iyi nzu izengurutwse n imbaho ndetse n'ibyuma birimo ibara ry umukara, imbere muri iyi nzu harimo abantu batatu bicaye bari mu kazi kabo bafite mudasobwa imbere yabo ndetse hari n'icupa ry'amazi munsi gato hari ibirango cyangwa imitako ikoze mu migongo iri mu ibara ry'umukara n'umweru.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'imikara bigaragara ko ari imyambaro ya polisi, bahagaze iruhande rw'inzu ntoya mu marembo y'ikigo cya polisi ishami rya Remera.

Aha haragaragara inzu yifashishwa mu gutanga serivisi zishingiye kuri murandasi, aha harimo abantu imbere, biragaragara ko baje bashaka izo serivisi kandi ko bari kuzihabwa. Biragaragazwa kandi n'ikirango kiri hejuru ku muryango w'iyi nzu, hejuru ku nzugi z'imyeru, kandi ukinjira hari umwana n'umusore basa nk'aho bari kuvugana.

Aka ni agace gatuwe nk'uko bigaragazwa n'ibipangu bihari, hateye ipoto ririho insinga z'imikara kandi iri poto biragaragara ko rikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi muri aka gace aha turahabona amapave aho iri poto rishinze, hari n'ibiti hakurya ndetse hari n'amabuye akikije izi ngo.

Aka ni agace bigaragara ko ari agace k'ubucuruzi, karimo urujya n'uruza rw'abanyamaguru, haparitse imodoka imbere y'inyubako imwe igerekeranyije ndetse izengurutswe n'amakaro, hanyuma hari n'umutaka wa emutiyene uri mu ibara ry'umuhondo, ndetse n'ipoto bigaragara ko rikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi muri aka gace, iri poto rikaba ririho insinga z'amashanyarazi.

Aha hari umuganda nyabagendwa ku nkengero z'aho hari umurima uhinzemo ibigori bifite ibara ry'icyatsi. Haruguru kandi muri uyu murima hateye ipoto rirerire iriho insinga z'imikara bigaragara ko iri poto ryifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi muri aka gace mu rubavu rw'iyi poto hari.

Iyi ni hoteri yubatse ku buryo bugezweho ndetse butangaje, ikaba yubatse mu gihugu cy' uRwanda mu mujyi wa Kigali; aho abakerarugendo bishimira kuyisura ndetse ikaberarwamo n'ibikorwa bitandukanye by'igihugu.

Aka ni agace gatuwe ariko kandi bigaragara ko kanacururizwamo ndetse gakorerwamo n'indi mirimo y'amaboko iciciriritse nkuko bigaragara, hari abantu babiri ndetse begereye umutaka uri mu ibara ry'ubururu hari ipoto rirerire rihuriweho n'insinga z'imikara ndende zishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi muri aka gace iri poto riteganye cyangwa riri hafi y'igipangu kiri mu ibara rya chocolat.

Aha harerekanwa agace gatuwe ariko kegereye umusozi nk'uko bigaragara, imiterere y'aka gace ibigaragaza, hari ibiti byinshi ndetse hari n'umunara muremure uri mu ibara ry'umweru, uyu munara imbere ya wo ukaba uriho andi mapoto bigaragara ko acanira aka gace.

Aha biragaragara ko ari icyanya gikorerwamo cyangwa gitunganyirizwamo ingufu z'amashanyarazi. Ibi biragaragazwa n'ikirango kiri aha ngaha kiri mu mabara atukura ndetse bigaragara ko ari ikigo cy'Igihugu gishinzwe ingufu z'amashanyarazi REG. Aha kandi haragaragazwa iminara minini cyane iriho ihuriro ry'ibindi byuma ndetse n'insinga ndende.

Aka ni agace gatuwe nk'uko bigaragazwa n'inkuta zimeze nk'ibipangu bihari, hari ipoto rirerire rishinze riri mu bwoko bw'igiti kandi kuri iri poto hari insinga ndende z'imikara zishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi muri aka gace, hari n'ibiti hirya gato y'iri poto kandi aho rishinze ni ahantu hari amabuye.

Iyi ni ipiloni cyangwa ipoto wabyita uko ubishaka riri ahantu kugasongero ahantu hituruye ndetse ririho imigozi cyangwa insinga z'amashanyarazi bigaragara ko izi nsinga zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu gace iri poto riherereyemo

Aha harerekanwa inzu yubatse mu buryo bugezweho bwa kijyambere ifite igisenge kiririmo bwoko bw'agacurama, ndetse aya mabati akaba ari mu ibara ry'umukara. Aha mu rubavu rw'iyi nzu hahanagaragazwa ipoto bigaragara ko ikwirakwiza amashanyarazi muri aka gace. Aha kuri iri poto riri mu bwoko bw'igiti hariho insinga hahurijweho insinga ziri mu bwoko bw'insinga z'amashanyarazi kandi bufite ibara ry'umukara.

Aha haragaragaza agace karimo ifoto ikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi muri aka gace, iri poto ririho insinga z'amashanyarazi ziri mu ibara ry'umukara kandi aho ipoto rishinze biragaragara ko hari amazu y'abantu, amwe muri aya mazu afite ibisenge biri mu bwoko bw'agacurama.

Aha harerekanwa inzira ijya ku bwiherero, aho igizwe n'ibara ry'umukara ku nkuta n'umweru ndetse n'urundi rugi rugaragaza ko ari ubwiherero bw'abafite ubumuga nk'uko bigaragazwa n'ikimenyetso cyangwa ikirango kiri kuri uru rugi, rufite ibara rya giri ndetse hari n'ubundi bwiherero ariko buzwi nk'ubwihagariko bukoreshwa n'abagabo.

Aha ni ahatangirwa serivise z'ubuzima ahazwi nko kwa muganga, hari abantu batonze murongo baje bashaka izi serivisi bahagaze ku idirishya ryabugenewe higanjemo abagore n'abagabo bamwe baricaye abandi barahageze kandi aha bari hakikijwe n'ibikuta bifite amatafari ari mu bwoko bw'impunyu.

Aha haragaragazwa ibitaro bya Nyarugenge, ikibigaragaza ni ibirango biri mu ibara ry'umweru ndetse byandikishijwe inyuguti nkuru, ariko umweru waryo ukaba usigirijwe. Aha harerekanwa ubwinjiriro bw'ibi bitaro ndetse hari n'ikibuga kirimo ibiti by'icyatsi ndetse n'amatafari ya ruriba.

Aha harerekanwa ikigo nderabuzima biragaraga ko hari abaturage bicaye bategereje serivise z'ubuzima bamwe muri bo baricaye barategereje abandi bari ku idirishya ryabugenewe ahatangirwa serivisi batonze imirongo aba ni abagore ndetse n'abagabo, ikigo nderabuzima bicayeho bicaye ku ntebe z'ibiti ariko bivanze n'icyuma ndetse n'idirishya bahagazeho riri mu ibara ry'umweru ndetse n'urugi rw'umweru iruhande rwabo.

Aha biragaragara ko ari kwa muganga, aho abarwayi bategererereza serivisi. Hari imbangukiragutabara z'amamodoka zihaparitse, ndetse hari n'abashinzwe umutekano, basa nk'aho bari gukumira cyangwa bari kubungabunga umutekano w'aba bategereje izi serivise. Bamwe barahagaze, abandi baricaye, kandi abicaye bicaye ku ntebe ikozwe mu cyuma.

Aha ni kwa muganga cyangwa ahatangirwa serivisi z'ubuzima, nk'uko bigaragazwa n'uyu mugore wambaye imyenda y'akazi usa nk'aho ari gupima umurwayi hifashishijwe ibikoresho by'ikoranabuhanga byabugenewe, uyu murwayi yambaye imyenda yiganjemo ibara rya orange yicaye ku ntebe y'umukara, uyu muganga we arahagaze, aha kandi turahabona ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuzima.

Aha harerekanwa umuhango wirahira ku banyamategeko bambaye impuzankano ziri mu bwoko bw'amakanzu agizwe n'ibara ry'umukara n'umweru, aba bari imbere y'abashinzwe kubarahiza kandi imbere y'abanyamategeko, hari amabendera y'igihugu abashinzwe kubarahiza bambaye impuzankano iri mu ibara ritukura.

Urupapuro rwanditseho amabara agiye atandukanye, harimo ubururu, umuhondo, icyatsi rwo rurasa umweru, amagambo yanditse mu ibara ry'umukara n'ubururu, bikaba byanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Aha haragaragazwa umugore wambaye ikanzu ifite ibara rya oranje ufite inziga ku maso, ufite indangururamajwi ye mu ntoki, ufite imisatsi y'imikara biragaragara ko ayoboye inama runaka asa nk'uri gutanga ikiganiro.

Aha haragaragazwa igazeti ikubiyemo amategeko n'ingingo zayo. Aya mategeko yanditswe mu rurimi rw'Icyongereza, Igifaransa ndetse n'Ikinyarwanda. Byanditswe mu buryo bw'impagarike kandi izi nyuguti zanditse aha, ziri mu ibara ry'umukara ariko udasigirije.

Aha harerekanwa umugabo n'umugore. Umugabo wambaye ikote ndetse n'ishati na karuvate, n'umugore wambaye ikanzu iri mu ibara rya oranje, uyu mugore afite amarinete nziga ku maso ndetse n'umusatsi we ni umukara afite n'amahereni ku matwi. Imbere yabo bonbi hari ibirahuri bihubitse biragaragara ko bari mu nama mbese bari kuganira.

Aha hagaragazwa igazeti irimo ibikubiyemo amategeko ya leta, irimo ibika bitatu byanditse mu buryo bw'ubuhagarike, ndetse iriho n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, amwe arasigirije cyane ayandi ntabwo asigirije.

Aha hari ihuriro ry'abagororwa bambaye impuzankano iri mu mabara y'iroza kandi bose bambaye udupfukamunwa. Baricaye imbere yabo hari za mudasobwa biragaragara ko bari mu mahugurwa. Inyuma y'aba bagororwa hari umucungagereza uri inyuma yabo, biragaragara ko bicaye mu nzu mberabyombi.

Aha hari igikoresho kifashishwa mu kuzimya inkongi z'imuriro kizwi nka kizimyamoto cyometse ku gikuta cy'umweru hariho itiyo ry'umukara kuri aka gakeresho, munsi gato hari igikoresho cyabugenewe bajugunyamo imyanda cyabugenewe kiri mu ibara ry'iroza.

Aha haragaragazwa ifoto y'umupolisi wambaye impuzankano usa nkaho ufite agakoresho k'ikoranabuhanga kifashishwa mu gupima impushya zo gutwara ibinyabiziga, imbere ye hari ikinyabiziga gitoya cy'umukara bigaragara ko uyu mupolisi ari mu kazi ke ka buri munsi.

Aha haragaragazwa abakozi bakora mu nzego z'umutekano aho bigaragara ko bari guhugura abantu ibyerekeranye no kwirinda inkongi z'imiriro. Aha hari abanyeshuri bambaye impuzankano ndetse n'aba bakozi bakora mu nzego z'umutekano nabo bambaye impuzankano ziranga akazi kabo. Imbere yabo hari udukoresho twifashishwa mu kuzimya inkongi z'imiriro. Utu dukoresho turi mu ibara ritukura.

Abagabo babiri bambaye amasoti y'icyatsi kibisi yanditseho vuba bambaye kandi n'amakasike mu mutwe biragaragara neza cyane ko ari abamotari hanyuma kandi biragaragara ko akaboko kabo ko bafashe ku gikapu cy'icyatsi kibisi cyanditseho vuba, icyo gikapu giteretse kuri moto biragaragara cyane ko aribo bifashishwa, muku kujyana ibicuruzwa biba byaguzwe n'abaturage batandukanye babigeze aho bari.

Aha hari itsinda ry'abagore bane bigaragara ko bari kwifotoza, ku mpande zabo zombi hari amadarapo agaragaza ibirango by'igihugu cy' u Rwanda, hejuru yabo hari ifoto y'umukuru w'igihugu cy' u Rwanda, aba bagore batatu muri bo bambaye amakanzu maremare, babiri muri bo bambaye amarinete ndetse n'undi umwe wambaye ishati y'umweru imbere ndetse n'ijipo n'ikoti biri mu bwoko bwa kositimu.

Aha harerekanwa abagabo babiri bigaragara ko bari muri serivisi z'amatora ariko bakaba barimo nk'indorerezi. Imbere yabo hari utudarapo dutoya tugaragaza ibihugu bavukamo, inyuma yaho hari amagambo y'icyongereza yanditswe mu ibara ry'umukara usigirije. Biragaragara ko hari ibyo bari kuganiraho.

Aha harerekanwa umuhango wo kurahira, hari umugore wambaye impuzankano z'ishyaka rya efuperi rikorera mu gihugu cy'u Rwanda. Imbere ye hari indangururamajwi n'idarapo mu ntoki ze, ndetse yambaye n'inziga ku maso, amanitse ukuboko kwe kw'ibumoso bigaragara ko ari kurahira. Inyuma ye hari ibirango bigaragaza iri shyaka rya efuperi ndetse n'ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda.

Aha haragaragazwa itsinda ry'abantu benshi cyane bari mu bikorwa bisa nk'aho ari ibikorwa byo kwamamaza, aha turahabona abantu bisize amarangi ku mubiri aya marangi akaba ari mu ibara ry'ubururu, umutuku, ndetse n'umukara. Biragaragara ko bari kuririmba indirimba zijyanye n'ibi bikorwa barimo kandi ko bari mu bikorwa byo kwamamaza biragaragara ko ari ishyaka.

Aha haragaragazwa umugabo usa nk'uri mu gikorwa cy'itora, yambaye ikoti ry'ubururu bwijimye ndetse n'ishati y'umweru, afite igipapuro cy'itora, asa nk'uri kugishyira mu isanduku, ndetse yambaye n'impeta, iruhande rwe hari umugabo usa nk'uri kumuyobora muri icyo gikorwa na we wambaye ikoti n'ishati y'umweru, inyuma hari imitako ikoze mu ibara ry'idarapo ry'u Rwanda.

Aharerekanwa umugore wicaye mu biro ku ruhande rwe ndetse ku mpande zombi hari amadarapo agaragazwa n'ibirango by'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugore yambaye ikoti ry'umuhondo afite amahereni ku matwi afite inziga ku maso, afite imisatsi y'imikara ndetse imbere muri iri koti yambaye ishati y'umukara.

Aha hari umuhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo urimo imodoka ndende izwi mu bwoko bwa dayihatsu imodoka yifashishwa mu gutwara imyaka ndetse no gutwara ibintu bindi byinshi byabugenewe iyi modoka iri mu mabara y'ubururu.

Aha harerekanwa umuhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo n'umuhanda nyabagendwa. Mu nkengero z'uyu muhanda hari iyindi nzira yabugenewe igenderwaho n'abanyamaguru. Mu rubavu rw'uyu muhanda hari ibiti birebire bihashinze kandi muri uyu muhanda turahabona imodoka nini iri mu bwoko bw'ikamyo imbere yayo hari moto ihetse umugenzi.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa w'umukara uzwi nka kaburimbo, ku nkengero z'uyu muhanda hari ahabugenewe abanyamaguru bagenda, ndetse ku nkengero zo kuri uyu muhanda haragaragazwa ibiti birebire biri mu ibara ry'icyatsi, uyu muhanda ugizwe n'ibyerekezo bibiri nk'uko bigaragazwa n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga byiganjemo amagare ndetse n'amamodoka manini azwi nk'ibikamyo, kuri uyu muhanda kandi hari amatara acaniye umuhanda.

Uyu ni umuhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo, urimo imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga bito nka moto birimo biragenda. Aha hakikijwe n'ibiti byabugenewe mu mihanda, bigizwe n'ibara ry'icyatsi. Biragaragara ko aha hari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, ndetse ko hari n'amapoto hagati mu muhanda amurikira uyu muhanda.

Uyu ni umuhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ndetse n'urujya n'uruza rw'abanyamaguru uyu muhanda ukikijwe n'ibiti birebire biri mu ibara ry'icyatsi kandi ku nkengero z'uyu muhanda hariho n'amapoto y'imiriro.

Aha harerekanwa umuhanda w'umukara, uzwi ku izina rya kaburimbo. Ufite ibyerekezo bibiri, ndetse urimo urujya n'uruza rw'amamodoka. Ariko haragaragazwa imodoka nini, iri kugendera mu cyerekezo kimwe, ariko iri mu bwoko bw'amamodoka atwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Iyi n'imodoka nini iri mu bwoko bw'amamodoka twita amakamyo, iparitse ahabugenewe bigaragara ko aho iparitse hagenewe guparika aya mamodoka manini. Imbere y'iyi modoka hari umumotari wicaye kuri moto biragaragara ko yambaye ijiri y'umuhondo, mu mbavu z'iyi modoka hari umuntu usanzwe w'umunyamaguru wambaye imyenda y'imikara ndetse n'inkweto z'umuhondo. Iyi modoka isakajwe shitingi iri mw'ibara ry'ubururu.

Uyu ni umuhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo, ariko umuhanda nyabagendwa. Urimo ikamyo ndende iri mu ibara ritukura kandi inyuma y'iyo kamyo hari ikinyamitende cy'amapine atatu kiri mu ibara ry'ubururu. Hakurya mu rubavu rw'uyu muhanda haragaragara inyubako ndende iri mu bwoko bw'igorofa, yiganjemo ibara ry'umuhondo werurutse n'ubururu, ndetse hirya gato hari n'ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Aka ni agace nyabagendwa, kagendwamo n'imodoka, ibinyabiziga bitandukanye, ndetse n'abanyamaguru ku nkengero y'uyu muhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo, hari aho abagenzi bagendera ahabugenewe, hakurya kandi hari ibiti birebire biri mu ibara ry'icyatsi. Muri ibi binyabiziga higanjemo ikinyamitende nka moto ndetse n'amamodoka matoya ndetse n'amamodoka manini ari mu bwoko bw'amakamyo.

Aha harerekanwa umuhanda w'umukara uri mu bwoko bwa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ariko uyu muhanda ukaba urimo ibyerekezo bibiri nk'uko bigaragara harimo imodoka nini iri mu bwoko bw'ikamyo iyi ikaba yifashishwa mu gutunda ibintu byinshi birimo n'umucanga, aha urahabona inzira zabugenewe z'abanyamaguru ndetse ku nkengero z'uyu muhanda hari n'ibiti by'icyatsi.

Iyi ni imodoka nini iri mu bwoko bw'ikamyo ihetse ibikoresho bitandukanye bimwe bifunze mu makarito ibindi bifunze mu mifuka, iyi modoka ihagaze gato cyane ku nkengero z'umuhanda w'umukara hegeranye n'aho abanyamaguru bagendera, imodoka kandi iri mu ibara ry'umweru.

Aha harerekanwa umuhanda nyabagendwa w'umukara uzwi nka kaburimbo, ku nkengero z'uyu muhanda hari ahabugenewe abanyamaguru bagendera, kandi hakurya y'umuhanda hari ibiti bihateye birebire biri mu ibara ry'icyatsi, aha hari ikinyabiziga kirimo ubwoko bw'ikamyo bigaragara ko kiri kugenda, kandi kiri mu ibara ry'umuhondo.

Aha turahabona umuhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo, aho ku nkengero z'uyu muhanda hari inzira nyabagendwa y'abanyamaguru yabugenewe ndetse mu nkengero z'umuhanda wose nyirizina ku mpande zombi hakaba hari n'ibiti birebire biri mu ibara ry'icyatsi. Uyu muhanda urimo umumotari wicaye kuri moto ye ndetse n'imodoka nini iri mu bwoko bw'ibikamyo iri mu ibara ry'umuhondo.

Aha haragaragazwa umuhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo urimo uragendamo imodoka nini zizwi mu buryo bw'ibikamyo, ariko by'umwihariko iyi modoka ikaba yifashishwa mu bwubatsi, iyi imodoka iri mu mabara y'umweru n'umukara ndetse n'ubururu.

Aha hari umuhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo, ku nkengero z'uyu muhanda hari ibiti birebire biri mu bwoko bwa pinusi kandi biri mu ibara ry'icyatsi. Aha kandi hahagaze imodoka ndende iri mu bwoko bwa rukururana, iri mu mabara y'umukara, umutuku ndetse n'icyatsi.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa umuhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo, urimo imodoka nini iri mu bwoko bwa jaguari, iriho ibara ry'umutuku n'umukara. Imbere yaho hari umunyonzi ufite igare uri kugenda, ndetse hari n'umunyamaguru mu rubavu rw'iy'imodoka wambaye imyenda y'imikara bisa nkaho nawe ari kwigendera. Mu rubavu rw'uyu muhanda, hirya hari ibiti birebire birimo ibara ry'icyatsi biri mu bwoko bwa pinusi.

Aha harerekanwa umuhanda nyabagendwa urimo umunyamaguru, ndetse aharimo n'ikinyabiziga cy'ibinyamitende ariko gifite amapine atatu gikoze mu ibara ry'ubururu, hakurya y'umuhanda hari ibiti ndetse hari n'ahandi hakurya y'umuhanda hari gukorerwa imirimo isa nk'iy'ubwubatsi.

Aha harerekanwa umuhanda nyabagendwa ku nkengero z'uyu muhanda hakaba hari inzira yabugenewe y'abanyamaguru, aha kandi hakaba harimo n'ama moto hagati muri uyu muhanda, ku nkengero mu rubavu hakurya aho uyu muhanda uri hari ibiti birebire biri mu bara ry'icyatsi, ikinyamitende kimwe cy'amapine atatu kiri mu ibara ry'ubururu.

aha harerekanwa agace nyabagendwa bigaragara ko ari ahabugenewe haparikwa imodoka n'ibinyabiziga bitandukanye bitewe n'ibyerekezo bijyamo. Aha rero hagaragazwa imodoka iri mu bwoko bwa tagisi ijyana abagenzi mu buryo bwa rusange. Imodoka igizwe n'ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'icyatsi kererutse ndetse n'ibara ry'umukara.

Aha hari agace nyabagendwa karimo igorofa rinini riri mu ibara ry'umweru aho imbere y'iri gorofa hari n'igiti kiri mu ibara ry'icyatsi aha hari umuhanda uzwi nka kaburimbo w'umukara kandi muri uyu muhanda hari imodoka nini yagenewe gutwara abagenzi kandi iyi modoka ikaba iri mu ibara ry'ubururu.

Aha haragaragazwa umuhanda nyabagendwa urimo ikinyabiziga cyitwa moto, uyu mumotari akaba ahetse umugenzi bigaragara ko ari kugenda. Uyu muhanda uri mu ibara ry'umukara ndetse ku nkengero z'uyu muhanda hari aho abanyamaguru bagendera ndetse hakurya y'umuhanda hari ibiti bihateye ndetse n'urukuta ruri mu ibara ry'umweru ndetse n'amapoto acaniriye umuhanda.

Aha hari umuhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo, ku nkengero hari ibiti birebire biri mu mabara y'icyatsi ku mpande zombi, uyu muhanda urimo ibyerekezo bibiri nkuko bigaragazwa n'urujya n' uruza rw' ibinyabiziga biri muri uyu muhanda aha twavuga imodoka ndende igaragazwa n'amabara y'ubururu n'umweru ndetse n'indi modoka ngufiya iri mu gice cyo hirya ndetse n'abanyonzi.

Aha harerekanwa umuhanda nyabagendwa hirya y'uyu muhanda hari inzirabugenewe y'abanyamaguru ndetse ku nkengero zawo hari ibiti birebire by'icyatsi muri uyu muhanda rwagati haragaragara imodoka nini iri mu bwoko bw'amamodoka atwara abagenzi iyi modoka irimo abagenzi nkuko bigaragara kandi iri mu mabara y'ubururu.

Aha harerekanwa ikibuga kiririmo ibyatsi bisa nk'aho byumye biri mu ibara ry'icyatsi, aho n'ahandi bari kwerekana ubu bwatsi bwagiye busa nk'ubushiraho hanyuma hagasigara ibara ry'igitaka risanzwe.

Aha haragaragara inzu iriwi ibara ry'umuhondo, aho iyi nzu ishushanyijeho abana kandi bari mu mabara y'umuhondo n'umweru, iyi nzu biragaragara ko ari urugo mbonezamikurire rwubatse mu gace karimo amazu ari mu bwoko bw'amagorofa manini ariko aya mazu akaba afite amatafari ya ruriba kandi aha hari umuzenguruko ukikije uru rugo, uwo musenguruko uri mu bwoko bwa senyenge.

Aha harerekanwa umugabo uhetse igikapu cy'umukara ku rutugu, ukoze mu mifuka y'ipantaro, uhagaze ahagana ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Aha uyu mupaka uragaragazwa n'ibirango biri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umukara n'umweru. Biragaragara ko ahahagaze mu muhanda nyabagendwa ku nkengero aho abanyamaguru bagendera, ndetse mu rubavu rwahahagaze hari ibiti binini by'icyatsi.

Aha haragaragara akayira karambereje mu gace runaka aho aka kayira gashinzemo ipoto ry'amashanyarazi rikwirakwiza umuriro muri aka gace hari n'icyapa kandi kiyobora abanyamaguru kiri mu ibara ritukura iruhande mu rubavu rw'iki cyapa hari inzu bigaragara ko ikorerwamo ubucuruzi ariko butanga na serivise z'ikoranabuhanga nk'irembo.

Ahari icyapa cy'umweru gishinze bigaragara ko kiyobora abagenzi bagenda muri aka gace iki cyapa kirimo, cyanditsweho inyuguti ndetse n'imibare kandi izi nyuguti n'iyi mibare biri mu ibara ry'umukara usigirije.

Aha harerekanwa inzu ndende y'igorofa iri mumabara y'umweru, izengurutswe n'igipangu kiriho amabara ya giri. Aha kandi harerekanwa ibiti bikikije iyi nyubako igezweho yubatse mu buryo bwa kijyambere, aha kandi harerekanwa n'amatara ari hejuru y'iki gipangu gikikije iyi nyubako hejuru nkuko bigaragara.

Aha turahabona agace gatuwe kubatse mu buryo bugezweho bwa kijyambere ibizwi nk'umudugudu. Aha hari inzu ifite igisenge kiri mu bwoko bw'agacurama gifite ibara ritukura ariko ryererutse. Mu rubavu rw'izi nzu turahabona igikuta ndetse kizengurutswe n'ibizwi nka senyenge, aha kandi hari umuhanda w'umukara.

Aha haragaragazwa amacumbi agezweho aya macumbi afite inzugi n'amadirishya biri mu bwoko bw'ibirahuri kandi biri mu mabara y'umukara, izi nzu ziri mu ibara ritukura ariko umutuku wererutse cyane igipangu kiri kuri aya mazu kiri mu ibara ry'umukara, aha kandi hari ibiti mu mbavu z'aya mazu ndetse n'imbere hari indabo ku gipangu.

Aha harerekanwa inzu ndende yubatse mu buryo bwa kijyambere igizwe n'amagorofa arenga ane iyi nzu yubakishijwe amatafari ya ruriba, kandi iyi nzu isizwe irangi ry'umweru ndetse nahandi hari irange ry'umukara imbere yaho hari abantu bagenda ndetse hari n'ibiti bihari, aha hagaragara nkaho hari igikorwa cyangwa habera igikorwa cya leta.

Aha hari umuhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo, urimo ihuriro ry'imihanda mu byerekezo bine. Hari inzira y'abanyamaguru yabugenewe, hakurya hari ibiti biteye biri mu ibara ry'icyatsi kandi birebire. Hari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bijya mu byerekezo bitandukanye, ndetse hari n'abanyamaguru bari kugenda bisanzwe.

Aha haragaragazwa ikiraro nyabagendwa gifite ibyerekezo by'imihanda hejuru yacyo ndetse n'ibindi byerekezo by'imihanda munsi y'iki kiraro, kandi ibi byerekezo by'imihanda mbese imihanda, iri mu ibara ry'umukara munsi y'iki kiraro hari abanyamaguru bari kugenda bisanzwe ndetse no mu mbavu z'ikikirararo hateye ibiti ndetse n'ipoto.

Uyu ni umuhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo urimo ibimenyetso ndangakerekezo binini bishushanyijwe mu ibara ry'umweru bimwe birerekera iburyo ibindi birerekere ibumoso ku nyengero y'uyu muhanda hariho ibiti biri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umunyamaguru ugenda bisanzwe ndetse n'ibyatsi biteye ku nyengero z'uyu muhanda.

Aha haragaragazwa agace nyabagendwa kariho ikiraro, kiriho igice nyabagendwa cyo hejuru, ndetse n'ikindi gice nyabagendwa cyo hasi aho iki kiraro kiri gikora ku muhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo, ndetse mu nkengero z'uyu muhanda ndetse no mu rubavu rw'iki kiraro hagaragara ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Iki ni ikiraro kigezweho kigendwaho n'imodoka nk'uko bigaragara. Gifite ibyerekezo bitandukanye, ariko aha harerekanwa cyane icyerekezo kiri munsi y'iki kiraro. Aho tubona abanyamaguru bari kugenda, hari n'umunyonzi w'igare, hari n'ibiti biteye mu rubavu rw'iki kiraro. Hari n'amatara amurikira uyu muhanda.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa bigaragara ko ari umuhanda w'umukara uzwi ku izina rya kaburimbo. Ugizwe n'ibyerekezo bibiri, aho turikubona moto cyangwa ikinyamitende gihetse umugenzi. Aha hari ibyapa byerekana ko hari inzira y'abanyamaguru ariko ikoreshwa n'abanyeshuri, mu inkengero z'iyi mihanda hari ibiti byabugenewe bishyirwa ku inkengero z'imihanda.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa urimo ibyerekezo bitandukanye, kandi ku nkengero z'uyu muhanda hari inzira yabugenewe y'abanyamaguru. Aha turahabona umunyonzi uri ku igare uri kugenda, ndetse n'indi modoka ngufiya iri guturuka mu cyerekezo cyo hirya. Aha kandi hari imodoka ntoya iri mu bwoko bwa hirigisi itwara inyama, nk' uko bigaragazwa n'ikirango kiriho gifite amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.